Ahantu hateraniye abantu hateraniye ababyeyi bafite abana, biciye hasi ku musambi, abana bari kubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa mu bikombe.

Abantu bicaye muri sale bicaye ku meza nini buri wese imbere ye hateretse agakombe n'impapuro, bigaragaza ko bari mu nama bafite ibintu bari kwigaho.

Abantu bicaye hanze ku rubaraza, bicaye ku murongo, bari imbere y'ibiro runaka, basa nkaho hari serivisi bategereje, imbere yabo hari imeza yicayeho umuntu, hagenda hahaguruka umwe umwe bamwakira, bakurikirana uko bicaye ku murongo.

Umugore wambaye umupira w'umweru, wambaye n'agapfukamunwa, yicaye ku ntebe, impande ye hari umukobwa uhagaze na we wambaye agapfukamunwa, wambaye ishati y'umweru, bigaragaza ko ari kumutera urushinge ku kuboko.

Abantu bambaye udupfukamunwa bari ahantu hateraniye abantu hari umuntu uteruye umwana wicaye ku gatebe hari umugabo uhagaze aho w'umupira utukura ari kumuha ikinini umwana yicaye ku bibero bya mama we.

Abantu bicaye kumeza imwe barebana, imbere yabo hicaye umuntu umwe, buri wese mbere ye afite impapuro, na terefoni, kandi buri wese mbere ye hateretse amazi, ari abagabo batatu n'abagore babiri.

Umubyeyi wicaye, wambaye ibitenge yicaye ku ntebe ateruye umwana, imbere ye hahagaze umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, bigaragaza ko umwana bamufashe, bari kumuha imiti.

Abantu bateraniye hamwe bicaye muri sale, bari mu nama buri wese imbere ye ahafite impapuro, ahafite n'icupa ry'amazi bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Umwana uhagaze imbere y'ikigega kiriho robine, ari kuvoma amazi mu gikombe, umwana wambaye inifomo y'ishuri, yambaye ishati n'ikabutura bigaragaza ko ari ku ishuri, ari kuvoma amazi mu gikombe, bisa nk'aho ashaka kuyanywa.

Abantu benshi bateranye, bambaye imipira yo hejuru isa, imipira ya oranje, harimo n'umupolisi, bari gukora akarima k'igikoni bari guteraho imboga bose, bamwe bunamye abandi bahagaze bari kureba.

Abantu bateranye, bambaye imyenda isa, harimo bambaye imyenda y'imipira y'imyeru, abambaye imipira y'icyatsi kibisi, bambaye n'ingofero z'umweru, bakaba bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umusaza uhagaze, yambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'amaboko magufi, ahagaze imbere y'iriba, afite ijerekani mu maguru ye, ari guseka, bigaragaza ko yishimye.

Abantu benshi bicaye ahantu hanini bambaye imipira isa, bambaye imipira y'umweru igaragaza ko bari mu nama bose bayihuriyeho bateze amatwi. Imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ijambo.

Agatanda kubatse ahantu mu rugo, ahantu hagera izuba, kariho ibikoresho, kariho amasahane, ibikombe n'ibisorore, babishyizeho kugira ngo byumuke babibike nta mazi arimo.

Umusaza wicaye wambaye umutwe wa kagofero nk'umweruru wambaye ishati imbere igaze umugabo wambaye ishati yumweru wambaye naga ku ntoki wambaye nagapfukamunwa uhagaze imbere bisa naho yari kumusoza make ari kumubohora.

Abagore batatu bari ku iriba, ku iriba bavoma amazi bayapompa bayakura munsi y'ubutaka, babiri bahagaze inyuma bari kuyapompa, undi ahagaze imbere ari kuvoma akoresheje indobo, bigaragaza ko bari gufashanya.

Abana bicaye ku iriba basutamye, harimo uwambaye agapira k'umutuku n'agakabutura, nuwambaye agashati gasa nk'ipantaro bicaye ku iriba, bari gukaraba intoki n'amazi ari guturuka mu iriba.

Abana bahagaze ku iriba. Iriba bakoresha bapompa amazi bayakura munsi y'ubutaka. Bari kuvomera amajerekani ari abana bane, bari kuvomera mu majerekani y'umuhondo.

Umugore wicaye usutamye impande ye hahagaze undi mwana ufite indobo ziteretse kuri robine. Umugore imbere ye hari ibasi yicayemo umwana, bigaragaza ko ari kumwoza yicaye muri iyo basi.

Abana bahagaze ahantu hasa nk'aho ari mu gisambu, abana bagera kuri bane bahagaze ahantu imbere y'iriba, rya riba abantu bavomaho bapompa amazi aturuka munsi y'ubutaka, ari abana bane bafite ijerekani, umwe ari gupompera amazi abandi bari kumureba.

Umwana uhagaze ku iriba afite akajirekani k'umweru mu ntoki, wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura k'umukara bigaragaza ko ari kuvoma amazi kuri robine, ayavomera muri ako kajarekani k'umweru afite.

Umugore wicaye ku ntebe wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'amaboko magufi y'umuhondo, iruhande rwe hari umugore wambaye imyenda yo kwa muganga, wambaye n'agapfukamunwa, bamushyize igipimo ku kuboko bigaragaza ko bari kumupima.

Umwana uhagaze ku iriba wambaye agakabutura k'umukara n'agashati k'icyatsi kibisi, inyuma ye hateretse indobo naho hirya hateretse indobo bigaragaza ko ari koga intoki kuri rubine akoresheje amazi.

Abantu bicaye, abandi bahagaze, bari kwifotoza, inyuma y'abo hari igitaburo, kimanitseho ifoto yanditseho amagambo, agaragaza ko bashoje nk'inama.

Umwana muto wambaye agapira k'umweru bakazamuye ukuboko kumwe, bigaragara ko ateruwe n'umumama, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kumutera urushinge ku kuboko.

Ahantu hahagaze abantu batatu, harimo umugabo umwe uhagaze hejuru y'imifuka n'abagore babiri bateruranye umufuka, bigaragaza ko ari imifuka irimo ibyo kurya bari guha abaturage kugira ngo babyifashishe.

Abantu benshi batandukanye bicaye muri sale imwe ariko harimo ameza atandukanye bose bicaye ku meza ari abantu batanu batanu bose imbere hari mashini basa nkaho bari mu biganiro.

Abana n'abagabo bahagaze imbere ya robine bari kuvoma, bari kuvoma kuri za robine bakoresha bapompa amazi aturuka munsi y'ubutaka, bari kuvomerara mu ijerekani.

Ahantu hateraniye abantu benshi, imbere ya ba bantu hahagaze abantu n'umugore wunamye hasi n'umugabo umuhagaze hejuru, ufite mikorofone bari gukina inkinamico.

Umugabo wicaranye n'umugore amufashe ku rutugu, ukundi kuboko agufatishije ku nda, imbere ya bo hicaye umugore wambaye ishati ndende y'ubururu ufite igitabo mu ntoki bigaragaza ko haricyo ari kubasobanurira.

Umugabo wambaye ishati ndende y'ubururu, ufite igipapuro mu ntoki gishushanyijeho abana babiri, umwana w'umukobwa n'umuhungu, iruhande rwe hahagaze umugore ukenyeye igitenge wambaye umupira w'umweru bari kwitegereza iyo foto umugabo afashe mu ntoki.

Umwana wicaye asutamye, uri guseka, imbere ye hateretse amajerekani y'umuhondo, indi y'ubururu, bigaragaza ko yicaye kuri rubine, ari gukaraba intoki.

Abana babiri bapfukamye imbere y'umugezi, bafite ijerekani nini n'akajerekani gato, ijerekani ifite ibara ry'umuhondo n'akajerekani gafite ibara ry'umuhondo, badubitse iyo jerekani muri uwo mugezi, bari kuvomamo amazi.

Abantu bicaye muri sale irimo imeza zitandukanye bose bambaye udupfukamuwa, hari n'abambaye imyenda isa bambaye imipira isa icyatsi kibisi yanditseho amagambo bose bateze amatwi n'aho imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ijambo.

Abantu bahagaze ku ivomero bafite amajekani bayatondesheje umurongo, bategereje kuvoma amazi havaho umwe hakurikiraho undi uko bagiye batonda umurongo.

Umwana w'umukobwa wambaye inifomo, wambaye ishati y'umuhondo n'ijipo y'ikigina, ahagaze kuri kandagira ukarabe, aho ari gukaraba intoki akoresheje amazi n'isabune.

Abagore bambaye imipira y'ubururu, n'ingofero z'umweru, bahagaze, bari kwifotoza, bazamuye igipfunsi hejuru.

Umwana muto wambaye agapira k'umutuku, uhagaze imbere ya robine. Yafunguye amazi bigaragaza ko ari gukaraba intoki akoresheje amazi ari guturuka muri robine.

Umugore uhagaze ku iriba, ukenyeye igitenge, wambaye umupira wo kwifubirika, wambaye n'ingofero mu mutwe, imbere ye hateretse amajerekani afite ibara ry'umuhondo, bigaragaza ko yaje kuvoma amazi.

Umugabo wicaye inyuma ye hagaze abana, n'imbere hahagaze abandi bagabo babiri, abo bagabo bafite igipapuro mu ntoki, bafite ibyo bari kwereka uwo mugabo wicaye.

Umwana wambaye agasengeri ufite akajekani k'umuhondo ahagaze mu mugezi arimo kuvomamo amazi akajerekani yagashyizemo, amazi ari kujya muri ako kajerekani afite mu ntoki yatsindagiye mu mazi mo hasi.

Abagore bahagaze ahantu imbere y'inzu, bambaye amajire n'imipira isa, igaragaza ko bari mu gikorwa kimwe, bari kwifotoza bahagaze bose bifashe neza.

Umwana wikoreye ijerekani, bigaragaza ko ari kumwe n'undi mugabo uri kumufasha kuyimukorora, ijerekani y'umuhondo yanditseho UNICEF, bigaragaza ko irimo nk'amazi.

Abantu bicaye ku meza basa nkaho bari kuganira bafite impapuro imbere yabo, buri wese afite ikirahure imbere ye, baganira batanga ibitekerezo ku ngingo runaka.

Abasore babiri bahagaze bari kurebana mu maso, umwe yambaye umupira w'ubururu, undi wambaye ishati y'ikigina, bari kuvugana bose bambaye utuntu tw'ubururu ku maboko, basa nkaho bari kuganira.

Umuntu wicaye, yazamuye ukuboko k'umupira, imbere ye hahagaze umuganga, wambaye ga, ufite urushinge, bigaragaza ko ari kumutera urushinge mu muti, cyangwa ari urukingo.

Umwana uri kuri robine, yambaye ubusa hejuru, yateze intoki kuri rubine ari kunywa amazi, imbere ye handitse amagambo ya UNICEF, umuryango urengera abana cyangwa ufashe abana.

Umwana ahagaze ku iriba, afite amajerekani atatu y'umuhondo, ari kuvoma amazi, iriba ryubakishije sima, ubona ko ari iriba rya kijyambere rigezweho mu baturage.

Abagore babiri bahagaze imbere ya robine imbere yabo hari amajerekani, bisa nkaho bari kuvoma amazi n'inyuma ya robine hahagaze undi mugore, bose bakenyeye ibitenge.

Abagore bahagaze ku ivomero batonze umurongo, batondesheje amajerekani umurongo, hagenda havoma umwe umwe, uko bagiye bakurikirana ku murongo, havaho umwe hajyaho undi kugira ngo bavome neza nta kavuyo ko gutangurana.

Abashinzwe umutekano ndetse n'abandi baturage, bari ahantu bateranye, imbere yabo hicaye abana, bari kubaha ibinini n'ibyo kurya, babaha mu gikombe bari kunywesha.

Uyu umugore uteze igitambaro cy'umuhondo kirimo amabara y'ubururu nay’umweru, wambaye agapfukamunwa wambaye umupira wo kwifubika uri mu cyumba kirimo imashini bigaragaza ko ari mu cyumba cyo kwa muganga hari imashini yifashishwa bari kuvura abantu.

Abana bunamye, bahagaze imbere ya robine, bambaye inifomu, bigaragaza ko bari ku ishuri, bari gukaraba intoki kuri rubine bakoresheje amazi, ni abana b'abakobwa.

Umubyeyi wicaye ateze igitambaro mu mutwe igitenge ateruye umwana mu ntoki imbere ye hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'urimweru, yambaye na ga, bigaragara ko ari kuvura uwo mwana uwo mubyeyi ateruye.

Umwana wunamye ku iriba, yambaye ikabutura itukura, n'ishati, imbere ye hateretse indobo hasi ku iriba, yatezeho intoki ku mazi, arikunywesha umunwa, yambaye na bodabodo z'ubururu.

Abaganga bambaye amataburi y'ubururu bahagaze hanze bari kubyina, inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'umuhondo, yanditseho amagambo atwereka ko ari ku kigo nderabuzima cya Mayange.

Abana babiri bicaye imbere y'iriba basutamye, umwe yambaye agapira gatukura undi yambaye ishati y'icyatsi kibisi kirimo n'amabara y'umweru bigaragaza ko bari koga intoki.

Abantu bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hicaye abandi bantu, basa nkaho ari bo bari kubayobora mu biganiro bari gukora, ibiganiro bigaragaza ko bari kuganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima, n'imyitwarire, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umwana uri ku mugezi, imbere ye hari itiyo iri kuvamo amazi, umwana wambaye agapira k'amakoboko magufi, agaragaza ko ri kuyanywa anayoga mu maso yasetse.

Abantu bahagaze mu cyumba hagati bambaye amataburiya y'umweru, bigaragaza ko ari kwa muganga bari kwifotoza, imbere yabo hahagaze umuntu uri kubafotora ubona ko bishimye.

WASAC ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi mu baturage, kureba imiyoboro yose no kuyigenzura bakareba ko nta kibazo gihari kugira ngo amazi meza abashe kugera ku baturage mu buryo bworoshye.

Abantu bahagaze imbere y'urubaraga bari kwifotoza, bigaragaza ko ahantu bahagaze ari imbere y'ivuriro kuko harimo n'umuganga wambaye itaburiye y'abaganga.

Umusaza wicaye ku ntebe yakuyemo ukuboko kw'ikote, imbere ye hahagaze umugore wambaye itaburiya y'ubururu, yamushyizeho igipimo ku kuboko. ukuboko yaguteretse ku meza, bigaragaza ko ari ku mupima.

Umugabo wambaye agapfukamunwa yicaye yazamuye ukuboko k'umupiraimbereye hicaye umuganga wambaye ga n'itabiriya y'umweruru ari kumutera urushinge biragaragara ko ari umuti ari kumutera cyangwa ari urukingo.

Umugore wambaye agapfukamunwa wambaye n'ijiri, imbere ye hahagaze umugore uteruye umwana amufite mu bitambaro by'umuhondo, n'iruhande rwe hahagaze undi mugore, umugore wambaye agapfukamunwa afite agakoresho gapima umuntu umuriro mu ntoki yambaye na ga.

Umubyeyi uteruye umwana, yicaye ku ntebe, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri guha umwana umuti akoresheje agakombe awucisha mu kanwa.

Umuntu uhagaze imbere yandagira ukarabe, yunamye, yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, imbere akajerekani ka karakandagira ukarabe agahagaze ari gukaraba intoki, ari gukora isuka avuye ahantu runaka hari hari umwanda.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara bahagaze imbere y'abantu bahana ikiganza bari gusuhuzanya, bigaragaza ko ari amasezerano bagiranye bari kwemeranywaho.

Umwana ufite igikombe cy'umuhondo ari kuri robine; umwana wambaye agapira k'umutuku ari kuvoma amazi kuri robine, bisa n'aho ari amazi yo kunywa ashaka, ari kuvoma.

Abantu benshi bahagarara impande y'ivomero harimo abagore n’abana n'abagabo bari kuvoma ku iriba iyo bakoresha bapompa amazi bayakura munsi y'ubutaka, bari kuvoma mu majerekani.

Abantu bari ku mugezi, harimo umugore uri mu mazi yakandagiyemo ndetse n'ijerekani ari kuvoma, bigaragaza ko ari amazi yo kujyana mu rugo, iruhande rwe hari n'umusore uri kogereza igare aho ari gukoresha ayo mazi, bose bayahagazemo.

Umugore wicaye wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero mu mutwe, wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi, yicaye azamuye ukuboko kumwe k'umupira, iruhande rwe hicaye muganga wambaye imyenda yifunze neza, yambaye n'agapfukamunwa, ari gutera umushyi urushinge kukuboko.

Abantu bicaye ahantu hamwe, biteranyije mu itsinda, bafite impapuro, basa nkaho hari ibintu bari kuganiraho mu itsinda barimo kandi bahuriyeho bose.

Abana benshi bateraniye ahantu hamwe. Imbere yabo hari iriba ririkumanukamo amazi. Bose bateze intoki barigukaraba. Abandi bahagaze hirya yabo barikubareba, barikureba ibyo barimo.

Abana b'abakobwa n'ab'abahungu bahagaze imbere y'ikigega, bigaragara ko ari abanyeshuri bambaye inifomo, bafite udukombe bari kunywa amaziku kigega giteretse hejuru cy'umukara.

Umusaza wicaye ku ntebe imbere hari abagabo bambaye imyenda y'ubururu bifunze ahantu hose hambaye n'ibintu mu mutwe bambaye n'udupfukamunwa, bigaragaza ko uwo musaza bari kumupima bakoresheje igipimo cyo mu kanwa.

Abantu benshi bari mu kibuga n'abicaye mu itente harimo n'umupolisi, basa nk'abateze amatwi, imbere hari umuntu uri kubaha ikiganiro, imbere yabo hasi hicaye umwana muto w'uruhinja.

Abagabo, n'abagore, bahagaze imbere ahantu, bambaye amakositimu, bari kwifotoza, basa nk'aho bari bari mu nama, irangiye.

Umugore cyangwa umukobwa bamenyekana mu mugende uri gutembamo amazi bashyizemo ikirere cyo kuvomeraho amazi kandi, hicaye umwana muto ari kumureba gishyize nk indo murara mugende amazi kuri iki kirere.

Abagore bicaye hasi, bateruye abana mu ntoki, imbere yabo hari umugabo, wambaye amarinete uteruye isahane mu ntoki afite n'ikiyiko mu ntoki, bigaragaza ko bari kugaburira abo bana, abo bagore bateruye.

Abagore bari ku iriba rinda abantu bakoresha bifashishije gukumva amazi bayakura munsi y'ubutaka azamuka kugirango babashe kubona uko bayavoma hari abagore batatu hari uri imbere ku iriba n'abandi babiri bari kuyakoka.

Umukobwa wicaye imbere ya robine asutamye, afasheshije ijikani mu ntoki, ari kuvoma inyuma ye hanitse imyenda, bigaragara ko amaze gufura.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana mu ntoki, umubyeyi yambaye umupira w'umweru, imbere ye hahagaze umugore wambaye amarinete, ufite icupa mu ntoki ari kugaburira uwo mwana umubyeyi ateruye.

Abantu bahagaze ku iriba barikikije, bari kuvoma bakoresheje indobo iz'ubururu n'iz'umutuku, harimo abagore n'abana, bose bagiye kuvoma amazi hari n'icyapa cyanditseho Unicef.

Umugore uhagaze wambaye rinete wambaye n'ishati y'ubururu, ahagaze imbere y'ak'ameza bavugiraho ijambo, imbere ye hari mikoro bigaragaza ko hari ijambo agiye kugeza ku bantu bateraniye aho hantu ahagaze.

Umugore uhagaze imbere yinzu wambaye umupira w'umweru afite n'umusatsi mwinshi ateruye umwana muto w'uruhinja nawe wambaye umupira w'umweru bari guseka bishimye nk'umwana n'umubyeyi.

Abantu bicaye ku ntebe bari kwifotoza, iruhande rwabo hari ibyapa bigiye bitandukanye, byanditse mu birango byabyo bigiye bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bambaye n'inifomo z'ishuri bahagaze mu kibuga kinini bazamuye amaboko ikibuga kirimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umukobwa wicaye ahantu hasa n'aho ari ku rubaraza, inyuma ye hari indabo, wicaye ku gatebe ari guseka, ubona ko yishimira ibihe arimo kandi ubona ameze neza nta kibazo, yambaye agasengeri yambaye n'ipantaro y'ikoboyi.

Umusaza uri guseka, umusaza wakutse amenyo, ufite umusatsi mwinshi, wambaye ishati y'ubururu, ugaragara nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, aho ashobora kuba arwaye, ubona nyine ari guseka.

Ababyeyi bicaye b'abamama hari n'abahetse abana, bicaye ku dutebe, imbere yabo hari umuntu uri imbere ku kibaho, ari kubasobanurira ibintu bari kuganiraho.

Umugore wicaye hasi, uteruye umwana, wicaye ku musambi, imbere ye hari urutaro ruriho ibigori, iruhande rwe hicaye n'undi mwana w'umuhungu, kuri urwo rutaro hateretseho igisorori gitukura.

Abantu bahagaze imbere muri sale bahagaze bifashe neza bari kwifotoza bigaragaza ko bari bari mu nama bayishoje cyangwa barimo mu mahugurwa bayarangije.

Umuntu wicaye ku muhanda, yambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'ikigina n'inkweto z'umukara, yicaye hasi yegamye ku rukuta, asa nk'umuntu udafite aho aba, asa nk'umuntu uba ku muhanda.

Umugore wambaye umupira utukura, imbere yambariyemo undi mwenda w'umukara, ufite umusatsi mwinshi uhagaze imbere y'inzu yasetse ubona ko yishimye ntakibazo.

Abantu benshi bicaye muri sale, bose ubona ko bateze amatwi, bahanze amaso imbere yaho, bigaragaza ko hari umuntu ubari imbere uri kubabwira bamuteze amatwi, bose bari kumureba bategereje kumva icyo ababwira.

Ni inzu nini iteye amarange y'umweru, imbere yayo hari icyapa gishinze ahantu muri jaride handitseho amagambo atwereka ko aduha ikaze ku bitaro bya Munini.

Umugabo uhagaze ku muhanda wambaye imyenda yamucikagurikiyeho, ufite ibisatsi byinshi, bifite akavuyo, bigaragaza ko ari umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu bicaye ahantu hamwe, harimo umugore umwe wazamuye urutoki, bigaragaza nkaho ari umuntu ari kubwira imbere ye, bisa nkaho hari ikintu ari kuvuga, ari nk'inama ari gutanga cyangwa ari kubaza ikibazo ku buryo...

Ifoto yo mu cyuma basikannye umutwe w'umuntu batwereka ibice by'imbere mu mutwe nko mu bwonko, bari kureba kwa muganga ikibazo afite mu mutwe nimba arwaye.

Umukecuru ahahagaze uteze igitambaro cy'igitenge gisa ni'shati yambaye uri guseka, yerekana ko imbere ye hari umuntu bari kuvugana utagaragara neza.

Abantu benshi bateranira ahantu hamwe muri sale ifite parafi, irangi ry'umweru n'inkuta zifite irangi ry'umweru, bose bahagaze hamwe bari kwifotoza inyuma yabo hari icyapa cyanditseho UNICEF.

Imodoka yakorewe kujya igenda ikagenda ari ibitaro bigendanwa bakabasha gufashiriza abantu aho bageze hose bakajya babigenda babizengukana m'abaturage.

Umuntu wubitse umutwe, wafatishije amaboko ku mutwe yabitse mu maguru bigaragaza ko afite ibibazo bitandukanye cyangwa ari gutekereza ku bindi bintu byamubanye byinshi.

Umugore ukenyeye igitambaro ku mutwe, wambaye amaherena, wafunze isura, bigaragaza ko yarakaye, inyuma ye hari urukuta rw'icyaitsi kibisi, asa nk'umuntu ufite uwo yarakariye, cyangwa icyamurakaje.

Abantu bicaye hanze ku ntebe munsi yabo hateye insina harimo urutoki harimo n'ibiti, ari abagore batatu imbere yabo hicaye umugabo bari kuganira.

Abantu bicaye abandi bahagaze ari benshi bateraniye hamwe bahagaze bifashe niba bari kwifotoza bavuye mu gikorwa kimwe bose bari bahuriyemo.

Umugabo n'umugore bari kumwe bafashe umwana usa nkaho afite ikibazo ameze nk'urwaye. Umugabo yamushyize ku rutugu, umugore nawe amufashe mu kwaha kugira ngo abashe kugenda.

Abantu bari kugenda mu muhanda bateranye, harimo abambaye imipira isa y'icyatsi kibisi, harimo n'abafite icyapa cyanditseho amagambo, ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Abantu bicaye harimo ababyeyi babiri bateruye abana, imbere yaho hari umukobwa yicaye ku meza, imbere y'uwo mukobwa hateretse telefoni, bigaragaza ko ari ikiganiro ari kubaganiriza cya ari ibintu ari kubabwira bateze amatwi.

Abantu bicaye muri sale harimo abagore n'abagabo, bamwe bambaye udupfukamuwa, bose bicaye ku meza zitandukanye, imbere yabo hateretse amazi, bafite n'impapuro bigaragaza ko hari umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho ijambo.

Umwana wicaye mu cyumba, wicaye hasi kuri sima, yambaye ubusa, bigaragaza ko ari nk'aho afungiye cyangwa afite ikindi kibazo, kuko yicaye hasi kuri sima, kandi yambaye ubusa.

Igishushanyo gishushanyijweho ikizeru gihoberewe n'amaboko handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi handitseho ngo wihogora.

Abantu bahagaze, imbere y'inyubako nini, ikikijwe na jaride, bari kwifotoza, bafite ibyapa mu ntoki, bagaragaza ko ari ibintu bari kwamamaza, bambaye nk'abantu bavuye muri siporo.

Taburo itwereka ifoto y'amenyo y'umuntu bari gufotora mu kanwa hari umuntu utunze kuriyo taburo intoki yambaye ga zigaragaza ko ari kwa muganga.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, ufite isume ku rutugu, afite akadodo mu ntoki yagafatishije amboboko yombi, arikugacisha mu menyo, bigaragaza ko ari utuntu ari gukura mu menyo, twa twafashemo.

Umumotari wambaye umupira w'umweru yasamye afite akadoga mu ntoki yagafatishije amaboko yombi, arikugagacisha mu kanwa mu menyo, ari gukuramo utuntu twafashe mu menyo.

Umukobwa uri guseka yashyize intoki ze ku munwa yazizengukije umunwa, zifatishije ku isura ari guseka amenyo yayashyize hanze.

Umuntu wasamye umeze nk'uri guseka, ari gucisha agati mu menyo, yerekana ko ameze nk'aho hari utuntu ari gukuramo twari twafashe mu menyo, mu gihe ari kugakuzamo akantu kameze nk'agati cyangwa akadodo.

Umuntu wicaye ku ntebe yegamye, yashyize umutwe hejuru, yasamye yashyize urutoki mu menyo, imbere ye hagaze umuganga wambaye ga bigaragaza ko agiye kumufasha kumuvura amenyo.

Umusaza wambaye agapira k'ikigina, wambaye n'amarinete, ahagaze imbere y'ahantu bogera, afite agacupa mu ntoki, bigaragaza ko harimo ibinini agiye gufata.

Icyumba kirimo umuganga wambaye ishati y'icyatsi kibisi, wambaye n'agapfukamunwa, wambaye na ga, imbere hari igitanda cyicayeho umuntu aryamye ari kumureba mu kanwa.

Umuntu wasamye mu kanwa ke imbere hari umuganga, ufite ibikoresho byabugenewe byo gukura amenyo, ari kumukura amenyo mu kanwa ari kuva n'amaraso.

Umugabo wambaye umupira ufite agapapuro mu ntoki ari guseka, ari kutwereka ibintu biri kuri ako gapapuro byerekeranye n'ubuzima bw'amenyo no kwita ku menyo n'ubuvuzi bwayo.

Umwana wicaye ahantu bamwegamishije ku kantu k'umusego utukura, imbere ye hari umuganga wambaye ga ku ntoki, yamwasamishije ari kureba amenyo ye.

Umugabo wiyogoshesheje wambaye umupira w'umukara ufite ubwanwa, ahagaze ahantu inyuma ye hari urukuta ruteye irange ry'umweru, uri guseka ubona ko yishimye.

Umuntu wicaye ku ntebe yegamye , umutwe yaweguye kuruhande yagaze umuganga wambaye agapfukamunwa, wambaye na ga ari kumureba mu kanwa ari kumuvura amenyo.

Abana bambaye inifomo y'ishuri bafite udukombe mu ntoki, bafite n'uburoso mu ntoki, bigaragaza ko bari kwiborosa amenyo bari kuyoza, ni mu gihe wenda bamaze kurya saa sita.

Umuntu uryamye ku gitanda n'undi hahagaze abaganga yasamye bigaragara ko bari kumuvura mu kanwa, ashobora kuba arwaye amenyo cyangwa se afite ikindi kibazo cyo mu kanwa.

Umugore ufite imisatsi myinshi yambaye isengeri y'umweru, ari koza amenyo akoresheje uburoso bwabigenewe.

Icyumba kirimo intebe kirimo n'imashini zifite taburo zigaragaza ko hari imashini zo kwa muganga bifashisha bari guha ubufasha abarwayi bari kwa muganga kugira ngo babafashe kubavura mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umuntu uri ahantu muri dushe hateretse impapuro z'isoko, ukenye isume y'umukara ufite uburoso, uri kw'iborosa mu kanwa akoresheje uburoso, inyumaye harido y'umutuku.

Abantu bahagaze mu murima, ni abagore n'abagabo bazamuye amaboko hejuru, harimo n'abazamuye udusuka bifashisha bari guhinga, bigaragaza ko ari abahinzi, bari mu murima.

Umusaza uri kumwe n'umugore, umusaza wambaye ishati y'ubururu n'amarinete, hamwe n'umugore wambaye umupira w'umweru, yambaye ishati y'ubururu, amufashe ukuboko, bigaragaza ko ari kumufasha kumanuka ku ama esikariye.

Umusaza n'umukecuru, bicaye ku meza, bari kuganira baseka, imbere y'abo hateretse ibiryo, birimo imboga z'ubwoko butandukanye, n'imbuto, bafite n'ikirahure imbere y'abo, bari kurya.

Abagore bambaye imipira y'imyeru n'amajipo y'imikara bagaragaza ko bari kubyina bambaye n'udupfukamunwa batuminuye hasi y'umunwa ku kananwa bari kubyina.

Umugore wicaye mu nzu, wicaye hasi kuri tapi. Wambaye inkweto zifunze, wambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'umukara. Yicaye kuri tapi ari gukora siporo ari kwigorora.

Umugabo wicaye ku meza yifashe mu gahanga, imbere ye hari igitabo, bigaragara ko ari gusoma, afite n'ikirahure impande ye ku meza, inyuma ye hateretse n'indabo.

Ahantu hateraniye abaturage bicaye munsi y'igiti basa nk'aho bari gukora inama bari kuganira ku ngingo zitandukanye, imbere yabo hicaye umugabo w'umuyobozi ufite igitabo ari kubaganiriza.

Umuntu uhagaze afite udukoresho abantu bakoresha bari kwimenyereza kugenda niba bari baragize ikibazo cy'ingingo bigaragara ko ari kwa muganga yambaye imyenda kwa muganga ahagaze imbere yigitanda impande y'idirishya.

Umusaza wicaye mu kagare, iruhande rwe hicaye umwana, bafite ibikoresho mu ntoki byifashishwa gukina imikino yo kuri tereviziyo bisa nk'aho bari kuganira.

Umusaza wicaye ahantu ku gitanda, ufite ikirahure, imbere ye hahagaze umukecuru wambaye imyenda y'ubururu, bigaragaza ko ari kumufasha kunywa imiti, umusaza usa nk'urwaye ari kumufasha.

Umusaza wicaranye n' undi mugore ku meza, umusaza afite icupa mu ntoki bigaragazaga kuko iryo cupa ririmo imiti imbereye hateretse nutundi ducupa hasi uwo mugore imbere ye hateretse mashini uri gusoma ibyanditse kuri iryo cupa.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza, imbere yabo hateretse ibinini, bafite n'agacupa kari imbere yabo, bafite urupapuro mu ntoki, bari gusoma kuri urwo rupapuro ibyanditseho.

Umuhanda w'igitaka uri kunyuramo abantu benshi, harimo abakecuru babiri bari kugendana bateze ibitambaro by'umweru ku rutugu, bafite udukoni mu ntoki tubafasha kugenda, ubona ko ari abakecuru bakuze.

Umugabo ubona ko akuze, wambaye ipantaro itukura n'ikoti rirerire ry'umukara, uhagararanye n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, bigaragaza ko ari umuforomo uri kumufasha kumenyera kugenda, akoresheje udukoresho twabigenewe.

Umusaza wicaye mu kagare, wambaye umupira w'amakara, wambaye n'amarineti, wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika, bari kuganira, bigaragara ko bishimye.

Abakecuru n'abasaza bafite udukoresho bifashisha bari muri siporo badufashe mu ntoki, bagaragaza ko bari gukora siporo kugira babashe kugira ubuzima bwiza no kwiyitaho.

Umusaza wicaye, imbere ye hateretse imeza, imeza iteretseho igisoro, abantu bakina, bakoresheje intoki, bimura udupira tuba turimo.

Umukecuru wicaye mu kagare ,wambaye ishati itukura, inyuma ye hahagaze umukobwa umufashe mu gatuza amuturutse mu bitugu, yambaye ishati y'ubururu, bigaragaza ko ari kumwitaho.

Abagore n'abagabo bahagaze ahantu, bari kwifotora abandi bakoma amashyi, bamwe bafite imbago z'ababana n'ubumuga, abandi bafite utugare bakoresha bari kugenda babyifashisha.

Umusaza wicaye, ari guseka yambaye ishati itukura, yambaye n'amarinete imbere ye hicaye umukobwa wambaye ishati y'ubururu, yamushyizeho igikoresho ku kuboko gipima umuvuduko w'amaraso, ari kureba uko umusaza amerewe.

Umusaza wicaye mu ntebe wambaye umupira w'amaboko mugufi w'ubururu, imbere ye hicaye umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, ari gufasha uwo musaza ari kumwambika ikintu ku kuboko, igikoresho bifashisha bari gupima umuvuduko w'amaraso bareba uko ugenda mu mubiri.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'amarinete n'ipantaro y'umukara, ufite utwuma tubiri mu ntoki muri buri kuboko, bigaragaza ko ari muri siporo yambaye na ekuteri mu matwi.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, imbere ye hicaye umugore wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, yamushyizeho igipimo ku kuboko kugaragaza ko arikumupina uko umutima utera.

Abasaza babiri bari muri siporo bambaye imipira y'imyeru n'amapantaro y'imikara, bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bigaragaza ko bari gukorera siporo ahantu ku muhanda ikikijwe n'ibiti.

Umusaza wicaye ku meza wambaye umupira w'umweru ufite ifoke mu ntoki bigaragaza ko ari kurya, imbere hari umugore ufite ikirahuri mu ntoki ufite n'icupa mu ntoki bigaragaza ko hari ibyo ari gusuka muri icyo kirahure.

Umusaza n'umukecuru bicaye muri salo, imbere yabo hateretse ameza iriho utuntu bari gukina umukino baseka bishimye.

Umusaza wicaye kumeza yambaye agapira k'umukara imbere hateretse mashini iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara afite agacupa agaragaza ko ari kumufasha kumuha imiti imbere yabo hateretseho ikirahure kirimo amazi.

Abantu babiri harimo umugore n'umugabo ubona ko bari mu kigero cy'izabukuru bisa nkaho umugore n'umugabo bishimye bari guseka bahoberanye.

Abasaza bicaye ku rubaraza. Bambara utugofero mu mutwe, bicaye ku ntebe z'ikigina, bafite inkoni mu ntoki. Bigaragaza ko hari ikintu bategereje cye bakaba bari mu birori.

Umusaza n'umukecuru bahagaze ahantu hamwe, bose bafite imvi, bambaye imipira itukura, bahagaze ku meza, bagaragaza ko imbere yabo hari imiti bagiye kuyifashisha bayinywa kugira ngo biyiteho.

Umusaza wicaye ku gitanda, wambaye umupira w'umweru, imbere ye hahagaze umuganga uri kumufasha kurambura amaboko, bakoresheje agatambaro k'umuhondo, umusaza yazamuye amaboko imbere.

Umukecuru uri ahantu mu cyumba, impane y'igitanda, wambaye amarinete, ufite ikirahuri cy'amazi, yashyize akaboko ku munwa, bigaragara ko ari kunywa ibinini, asomeza amazi afite mu kirahure.

Abagore babiri bari mu gikoni, hari n'umukecuru wambaye amarinete n'agashati, uri gutegura ibyo kurya imbere yabo hari imboga, inyanya, urusenda n'umuneke.

Umukecuru wicaye ahantu ku gitanda yambaye umupira w'imbeho w'umweru yazamuye amaboko, yafashe akantu mu maboko, imbere ye hagaze umugore wambaye imyenda y'imikara bigaragaza ko ari umuganga uri kumwitaho.

Umukecuru uri guseka imbere ye hari umukobwa ufashe ku kananwa, umukecuru ari gukata imboga afite icyuma mu ntoki yambaye n'amarinete.

Umukecuru ufite umusatsi w'umweru, wambaye umupira w'ikigina, yarambuye amaboko imbere ye hahagaze umukobwa, wambaye ishati y'ubururu ari kumufasha kunanura amaboko.

Abagore babiri bari kugendana mu muhanda umwe yambaye tiriningi y'umukara n'amabara y'ukuboko undi mugore wambaye umupira w'ubururu uteze n'igitambaro cy'umutuku mu mutwe bari kugendara ahantu kumpande hateye jaride rimwe n'ibiti.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe uzengurukijeho ikindi gitambaro mu bitugu, uteruye umwana, inyuma ye hahagaze abantu bambaye amashati y'imyeru bigaragaza ko ari ikintu bari kwamamaza.

Abantu bicaye muri sale imbere yabo hicaye abagabo babiri, bafite mikoro imbere ya bo ku meza, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo tuhagarike icyorezo cya mabaga.

Umugabo n'umugore bahagaze muki bafite imifuka itandukanye iri mu ibara ry'ubururu n'indimu vagicyas kibisi ari imifuka yo ku yo gushyiramo imyanda itaswisi ari imifuka yo gushyiramo imyanda ibora y'ubururu gushyimo imyanda itaboburara.

Ababyeyi bicaye ahantu hamwe bateruye abana mu ntoki, bari kubaganiriza, inyuma yabo ku rukuta hamanitse amafoto agiye yanditseho ibintu bitandukanye.

Abantu bicaye ahantu muri sale, ku meza imwe, bicaye ku ntebe z'umutuku, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hahagaze umugabo bigaragaza ko hari icyo agiye kubaganiriza, inyuma yabo hari televiziyo.

Abantu benshi bicaye muri salle ba bandi bicaye imbere banmezezenewe kuganira abitsindira abayobozi bari kubaha ibiganiro nyuma yabo ari ikiyapani cyanditsehobc cya gasao mwaka wibma kunye na fel igaragaza ko yari kuganira ku bintu byerekeranye n'ubuzima.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere, inyuma yabo hari amadarapo, bafite icyapa cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira.

Abaganga bahagaze bambaye imyenda ibarinda, bambaye agapfukamunwa, bambaye ingofero mu mutwe, bambaye na ga imbere yabo hicaye umusaza wasamye bari kuupima icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Umukecuru uteze igitambaro gitukura, yafunze ijisho rimwe irindi ripfutse, ripfukishije igipfuko cy'umweru, bigaragaza ko iryo jisho ripfutse, ryari rifite ikibazo bari kurivura.

Abantu bicaye muri sale bifashe neza bigaragaza ko bateze amatwi bahanze amaso imbere yabo, bigaragaza ko hari umuntu ubari imbere uri kubagezaho ijambo, bacecetse baratuje, bari kumva ibyo ababwira.

Abantu bateraniye hamwe n'abagore n'abakobwa n'abagabo bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze imbere, imbere yabo hari icyapa bambaye imipira isa bigaragaza ko harimo ibintu bimwe kandi bose bahuriyeho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, kirimo imashini bakoreshwa bari kwita ku murwayi bamupima, bareba uko umutima we utera n'uko amaraso agenda m'umubiri.

Ivuriro ryubatse ahantu hanini, harimo inyubako zisakaje amabati y'ubururu, rifite mo jaride nini, inyuma yaho hari igipangu kizitijwe n'ibyuma, gifite n'inkingi zubakishijwe amatafari ahiye, hari icyapa kitwereka ko ari ku bitaro bya Ruhengeri.

Inzu nini iteye amarangi y'umuhondo igeretse gatatu, imbere yayo hari parikingi iparitsemo imodoka nyinshi, usohotse inyuma hanze ku marembo, hari icyapa kigaragaza ko ari ku bitaro.

Umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, hasi no hejuru, uri kugenda agenda muri sale irimo ibitanda, bigaragaza ko ari ibitanda byo kwa muganga, imyenda yambaye nayo isa nk'iy'abakoze bo kwa muganga.

Inzu nini igeretse rimwe, iteye irangi ry'ubururu isakaje amabati ay'ubururu, imbere yayo hari parikingi nini iparitsemo imodoka y'ikigina.

Inzu nini igeretse, imbere y'iyo nzu hari parikingi iparitsemo imodoka y'ubururu, imbere y'iyo modoka y'ubururu, ku nzu hariho icyapa kigaragaza ko ari farumasi iri i Remera...

Icyumba kirimo igitanda kirimo n'imashini kirimo na televiziyo gitereye amarangi y'umweru ku rukuta harimo n'ibishushanyo byinshi ku rukuta bigaragaza ko ari icyumba cyo kwa muganga bafashirizamo abana.

Inyubako yagenewe gukorerwamo n'ivuriro, iteye irangi ry'umweru ku gice cyo hejuru, yubakishijwe amatafari ahiye, kuri iryo rangi ry'umweru, handitseho amagambo atwereka ko ari ku kigo nderabuzima cya Rwerere.

Icyumba gifite urugi ruteye amarangi y'umweru, hejuru yaho hari icyapa kigaragaza ko iki cyumba gikorerwamo kigaragaza ko ari icyumba babagiramo abantu kwa muganga.

Inzu yubatse ahantu hanini, hari jaride nini, hari utuyira tubiri tuyikikije, impande y'aho hateye ibiti muri iyo jaride, muri utwo tuyira harimo abantu bari kugendamo.

Icyumba kirimo imashini, kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari ibyo kwa muganga, harimo intebe zifite imisego y'umuhondo, bifashisha bari kuvura abantu babicajemo bazirambuye.

Inzu ibarizwamo ibitaro, aho abantu bajya kurebera kwisuzumisha, kurebera ibisubizo byabo. Imbere yayo hari jardin, kandi ku ruburaraza rwayo hicaye abantu basa nkaho bategereje ibisubizo.

Umuntu wicaye, yamanuye umupira, imbere ye hahagaze muganga, wambaye ga mu ntoki, wambaye n'itaburiya y'umweru, ari kumutera urushinge, bigaragaza nkaho ari urukingo ari kumuha, cyangwa ari imiti.

Abagabo babiri bahagaze, bose bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, imbere yabo hateretse imashini nini, bari kuyirebamo, bigaragaza ko bari kuyikoresha.

Inzu nini, ifite ibirahuri by'ubururu, yerekana ko ari ivuriro, aho abantu bajya kwivuriza mu bigo by'abantu bikorera bitegamiye kuri leta.

Amarembo manini hejuru y'aya marembo handitseho amagambo atwereka ko ari ku bitaro bya Kabgayi, imbere yaho hari inyubako.

Inzu iteye irange ry'umuhondo, mbere yaho hasi haparitse moto, hejuru kuri iyo nzu hejuru ya urubaraza hari icyapa kitwereka ko ari kuri farumasi aho bacururiza imiti.

Inzu ifite inzugi z'umweru, imbere harimo utubati, iki cyapa inyuma kigaragaza ko ari farumasi aho bacururiza imiti, imbere harimo umubyeyi uhetse umwana afite n'undi mwana mu ntoki bigaragaza ko bagiye kugurayo imiti.

Abagabo babiri bicaye, umwe yambaye ijile y'umukara yanditseho RBC, undi yambaye ishati isanzwe, uwambaye ishati afite igipimo ku kuboko, bari kumupima, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho irembo.

Inzu iherereye i Kanombe, inzu yagenewe gucururizwamo imiti, aho abantu bajya kugurira imiti nk'iyo bagiye kwa muganga bakayibandikira cyangwa bagize ikibazo bakeneye imiti muri farumasi.

Umugore wicaye ku buriri, wambaye agasengeri, yiyoroshe ku maguru, imbere ye hahagaze umuganga wambaye itaburiye ndende y'umweru, bigaragaza ko ari kumutimama afite igipimo mu ntoki.

Inyubako z'ikigo nderabuzima zubakishije amatafari ahiye ziteye n'irangi ry'umweru, zikurutirijwe ibyuma biteraye irangi ry'ikigina, imbere yaho ari icyapa kitwereka ko ari ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye mu karere ka Huye.

Ahantu muri korodori hicyemo abantu benshi, ku ntebe zitandukanye bagiye bashyiramo umwanya, kandi abo abantu bose bicaye kuri izo ntebe bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko hari icyo bari kwirinda.

Abantu bahagaze imbere y'inzu iteye irangi ry'umweru, bahagaze ku rubaraza rw'umugabo wambaye ishati y'umweru, hejuru imbere ku rubaraza rw'iyo nzu, handitseho amagambo atwereka ko ari ku kigonderabuzima cya Gishweru.

Ahantu hari parikingi iruhande rwaho hari jaride imbere yabo hari inzu ziriho icyapa kitwereka ko ari ku bitaro bya Nyarugenge, ahari ibitaro bya Nyarugenge muri Kigali.

Ahantu muri sale hameze nko kwa muganga cyangwa ku kigo cy'amashu, harimo ibitanda bitandukanye abantu baryamaho, harimo n'amarido amanitse ku rukuta, ibitanda bifite amashuka y'icyatsi kibisi.

Inzu isa nkaho iba ku isanteri irimo imiti muri farumasi imiti itandukanye harimo utubati tugiye turimo udukarito, harimo n'uducupa turimo imiti.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako bigaragaza ko bari kwifotoza, harimo abazungu n'abirabura, hejuru yabo kuri iyo nyubako bahagaze imbere, handitseho amagambo atwereka ko ari ku bitaro bya Rwamagana.

Abantu bahagaze muri sale ari benshi, batonze umurongo. Imbere ku murongo hari imeza y'igitambaro cy'umweru, kigaragaza ko ari ikintu bari kujya gufata kuri iyo meza hicaye abantu babiri, bagaragaza ko ari abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini, giteretsemo amacupa bifashisha babikamo ogisijeni yo gufasha abarwayi mu gihe bari mu bitaro barwaye bakeneye kubongerera umwuka

Inyubako ndende iteye amarangi y'umuhondo, ifite amadirishya ariho ibirahure biteye irangi ry'umweru. Hejuru imbere kuri iyo nyubako handitseho ijambo carayesi, bitwereka ko ari mu kibugo cy'abantu babana n'uburwayi bwo mu mutwe.

Utubati tw'umweru, turimo udukombe n'amacupa n'ibikarito, bigaragaza ko harimo imiti ari mu nzu ikorerwamo na farumasi icuruza imiti.

Inzu nini zo mu kigo kinini yubakishijwe amakaro ituranye n'izindi nzu ziteye amarangi y'umweru, hari jaride nini ifite ubusitani bunini buteyeho n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu yubatse, yubakishije amatafari iriho urugi runini ruriho ibirahure, hejuru y'urwo rugi handitse amagambo atwereka ko ari inzu bakiriramo abana bato n'impinja.

Icyumba kinini giteguye kirimo intebe, imbere hari ahantu abantu bahagarara, hari imeza y'umweru hagaragara ko ari muri sale abantu bakoremo inama.

Ahantu mu gipangu, harimo jaride, itiyemo ibyatsi, harimo iminyenga abana bicundaho, iyo bari ku mashuri.

Inzu nini yubatse iteye amarangi y'umweru, yubakishije n'amatafari ahiye, inzu igeretse gatatu, igaragara nkaho ari inzu ikiri shyashya.

Icyumba kirimo ibitanda, kirimo utubati, kirimo n'imashini, kirimo n'amatara ari kwaka, giteyeho irangi ry'umweru ku rukuta, bigaragaza ko ari icyumba cyo kwa muganga, bafashirizamo abarwayi bari kubavura.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, ifite urubaraza ruteyeho irangi ry'umuhondo, imbere y'urwo rubaraza hejuru handitseho amagambo atwereka ko ari inzu y'ababyeyi.

Umuntu wambaye imyenda y'abantu bakora kwa muganga, ahagaze imbere y'akana gatoya k'agahinja, gasa nk'aho aribwo kakivuka ari kitaho, kari imbere, kari mu bikoresho byabugenewe.

Icyumba kirimo igitanda, kirimo ibishushanyo byinshi ku nkuta bigiye bitandukanye, harimo indabo harimo ibishushanyo by'inzovu zigaragaza ko ari icyumba cyo kwa muganga bafashirizamo abana.

Inzu iteye amarangi y'umweru isakaje amabati y'ubururu, imbere yaho hari ikibuga, impande yaho hateye ibiti, imbere yaho handitse ho agambo atwereka ko ari inzu y'ababyeyi aho ababyeyi babyarira.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, wambaye n'itaburiya y'umweru, imbere ye hicaye umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, biragaragaza ko uwo muganga ari kumupima, ari kumufasha.

Sare irimo ibitanda, hejuru yabyo hamanitse inzitiramibu y'umweru iriho n'abantu babiryamyeho bigaragaza ko ibitanda byo kwa muganga abarwayi baryama bari kuruhukari bari kubavura.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo amamashini afite ama screen, harimo ibitanda bigaragaza ko ari icyumba cyo kwa muganga, hari imashini bifashisha bari gufasha abarwayi.

Umuntu uryamye ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru, yambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari amamashini, yafunze igipfunsi ari guseka, ari kwereka abantu ko ameze neza.

Umuntu wicaye ku meza, imbere ye hateretse imashini, wambaye ishati y'ubururu ari kureba muri taburo ya mashini, ari kureba igishushanyo cy'imbavu z'umuntu basa nk'aho bafotoye.

Inzu yubatse, igereretse rimwe, itera amarangi y'umweru, isakaje amabati y'ubururu. Imbere yayo hari icyapa cyanditseho ko ari ikigo nderabuzima cyakira abarwayi, kikabafasha mu byo kwivuza mu buryo bworoshye.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye itaburiya ndende y'umweru, wambaye na ga ku ntoki z'ubururu, afite agacupa k'ikigina mu ntoki, imbere ye hari mashini ibigaragaza ko ari umuganga, afite ibyo ari kureba muri mashini.

Umwana uri k’umunzani, imbere ye hahagaze umuganga bari gupima imikurire ye, bapima n'ibiro bye ngo barebe niba bigendanye, atari mu mirire mibi, afite ikibazo cy'imirire cyo kunanuka cyangwa kubyibuha bikabije.

Icyumba giteyemo amarangi y'umweru kirimo igitanda, kirimo imashini, kirimo n'isaha bigaragaza ko ari icyumba cyo kwa muganga bavuriyemo abarwayi.

Imashini yo kwa muganga ikoreshwa n'abaganga igihe bari gushaka gusuzuma umuntu niba nta kibazo afite mo imbere mu mubiri bitabaye ngombwa ko barinda kumubaga, bakoresha iyi mashini ikamureba mo imbere.

Amarembo manini akozwe n'ibyuma yanditseho inguti ebyiri za H iruhande rwazo hari icyapa kitwereka ko ari kuri Isange, ibitaro bya Nyanza.

Umuntu uryamye ku gitanda imbere ye hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, uri kuzinga inzitiramibu akoresheje amaboko.

Ahantu muri jaride hari n'indabo z'imikindo, harimo n'ibyatsi, harimo n'indobo ku ruhande, imbere hari ahari parikingi iparitsemo imodoka z'umweru n'inke.

Umugore uryamye ku gitanda, yiseguye umusego mu kuboko, imbere ye hahagaze umugore n'umugabo bari kumukora mu gahanga bumva niba nta muriro afite, umugore wari uri kumukora ku kuboko afite agapapuro nkaho bari bamuteye serumu.

Umuntu uhagaze imbere y'abantu benshi yambaye imyenda y'imikara, ameze nkaho ari mu nama, imbere ye hari icyapa cyanditseho ''Ihuriro ryahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abantu bageze mu za bukuru'' asa nkaho aribyo bari kuganiraraho.

Igitanda kiri amashuka y'umweru, kiriho n'umusego w'umweru, impande yacyo hari imashini, bigaragara ko ari igitanda cyo kwa muganga, abarwayi bifashisha baryamaho iyo barwaye, bari kwa muganga bari kubsfashe.

Inzu irimo utubati dutandukanye, turimo udukarito turimo amabara atandukanye harimo utw'amabara y'umweruamabara atukura n'udufite amabara avanze yose, bigaragaza ko ari udukarito tw'imiti muri farumasi.

Igikapu kirimo imiti y'ubutabazi bw'ibanze, harimo ga, harimo bande, harimo udukarito, harimo n'uducupa turimo imiti umuntu ashobora kwifashisha aramutse agize ikibazo kimutunguye.

Igare rifite amapine abiri n'utundi dupine dutoya imbere, n'aho abantu bicara humukara bigaragaza ko ari igare ry'umuntu ubana n'ubumuga.

Umugabo uhagaze ahantu mu nzu, irimo tapi y'icyatsi kibisi. Yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara, inkweto z'umukara, bigaragaza ko ari muri siporo, ari kuyikorera ahantu mu nzu harimo tapi.

Agasanduku karimo ibikoresho bitandukanye harimo imiti, harimo amabande yo kwisiga harimo inshinge, harimo udukarito dutandukanye hakaba harimo n'amavuta yo kwisiga asanzwe.

Ibyuma abantu bakoresha bari muri siporo bari guterura, bakoresha amaboko kugira ngo babashe gukora siporo neza kandi babashe kwinjiza siporo bari gukora mu mubiri ku buryo bwihuse kandi bworoshye.

Umugabo wicaye ku gitanda yambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umukara, yakuyemo urukweto mu kuguru kumwe, imbere ye hahagaze umuganga uje kumufasha kumuvura kuri uko kuguru yakumo urukweto, bigaragara ko yari yagizeho ikibazo yavunitse, cyangwa yarakomeretse.

Neza iriho imbuto iriho amazi iriho metero abantu bakoresha bakina hakabaho n'ibyuma abantu bakoresha bari muri siporo babyifashisha.

Doroni ni udukoreshwa dusigaye twifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho zifashishwa mu gutwara amaraso ziyavana ku bitaro bimwe ziyajyana ahandi akenewe.

Uducupa tw'umweru turiho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, handitseho amagambo y'umweru n'ay'umuhondo, bigaragaza ko ari icupa ririmo imiti ifasha abantu kugabanya ububabare.

Ni imeza iriho ibintu byinshi bitandukanye, hariho imidari bahemba abantu, ibinini, imbuto, harimo imineke, amacunga, inanasi, n'ibyuma bakoresha abantu bari muri siporo.

Umukobwa wicaye kuri tapi hasi munzu yambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara, ari muri siporo ari kwigorora, imbere ye hateretse imashini, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, afite n'udukoresho twabugenewe mu gukoresha siporo.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, wambaye n'agashenete mu ijosi, ufite ubwanwa, ufite n'icupa ry'amazi mu ntoki, bigaragaza ko ari kunywa amazi ari nko muri siporo.

Umugabo uri muri siporo wambayeyi isengeri yicaye ari kuruhuka, ari kunywa amazi yari afite mu icupa.

Umugabo uri kwirukanka, wambaye imyenda ya siporo, wambaye isengeri, wambaye n'ikabutura n'inkweto za siporo, batwereka akamaro k'ibyiza byo gukora siporo buri munsi zihoraho akamaro kabyo.

Umuntu wambaye isengeri uhagaze ku kazuba ufata icupa ry'amazi arimo anywa amazi kandi bigaragaza ko yar ari muri siporo ari kugabanya inyota yari afite ku zuba.

Umugabo muri siporo ahagaze ari kunywa amazi ari kuyanywera mu icupa wambaye umupira w'amaboko mugufi w'ikigina ufite na ekuteri mu matwi ahagaze ari kuruhuka ubona ko ari muri siporo.

Ahantu hateretse ibikoresho bitandukanye harimo imiti, harimo bande zo kwizirika igihe umuntu yagize ikibazo, harimo agakapu karimo, karimo imiti n'ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, n'udushashi turimo ibinini n'amacupa arimo imiti n'inshinge.

Umukobwa wicaye ahantu mu twatsi wambaye imyenda ya siporo ari kwigorora, wambaye isengeri akambara n'ikabutura n'inkweto zifunze yicaye ari kwigorora ari muri siporo.

Abantu bahagaze ku rwego, bambaye imyenda y'akazi, bigaragaza ko bari gukora akazi, bari kwandika ahantu, bigaragara ko bari kwandika ahantu ku bitaro.

Umukobwa uhagaze wambaye isengeri, yashyize umupira ku rutugu ahagaze ahantu hameze nkaho ari kuzuba, afite icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu, ari kunywa amazi bigaragaza ko inyota yari imwishe.

Insimburangingo zikozwe mu buryo butandukanye, zagenewe gufasha umuntu wabuze urugingo cyangwa gufasha umuntu wavutse, bari kugorora amagufa ye y'amaguru.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, uri muri siporo, yicaye kuri tapi, afite udukoresho dutoya, tw'utwuma bakoresha bari muri siporo, imbere ye hateretse mashini, ari kwinanura.

Abantu bahagaze mucyumba bambaye amaji y'umweru hashusanyijweho umusaraba utukura imbere, imbere yabo hari umuntu wambaye ritukura, urikubigisha uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, wambaye n'isengeri, uryamye ahantu kuri tapi, yazamuye umutwe hejuru, amaboko yayafatishije hasi, bigaragaza ko ari muri siporo, impande ye hateretse indabo.

Umuntu uri muri siporo, wambaye ikabutura y'umukara irimo amabara y'umutuku wambaye, n'umupira w'amaboko magufi utukura, n'inkweto z'umweru n'amasogisi y'umukara, ahagaze ku gakoresho bakoresha bagenda iyo bari muri siporo ari ahantu muri sale.

Umugore uri muri siporo wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari imbuto, imineke, indimu, amacunga, pome, atwereka ko ari ukurya indyo yuzuye mu gihe uri gukora siporo.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye ipantaro y'umukara yashyize amaboko ku nda, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu bigaragara ko ari umuganga uri kumufasha kunanrura ingingo z'amaguru.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara irimo amabara y'umweru n'umupira w'umukara, hamwe n'inkweto zifunze z'umukara usutamye. Bigaragara ko ari muri siporo, imbere hahagaze undi muntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu n'inkweto z'umukara.

Umugabo wicaye yifashe mu ntoki imbere bateretse imashini ku meza arekureba muri iyo mashini ari kurebamo videwo yahanzemo amaso.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bari muri siporo bakora siporo zimwe bagendera hamwe kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bafashanya guterana imbaraga, kugirango buri wese abashe gukora siporo zihagije.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi w'icyatsi kibisi, afite umupira wo gukina w'amaboko urimo amabara y'ikigina n'ay'ubururu.

Umugabo wicaye wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara urimo utubara tw'umweru, afite ibyuma mu ntoki abantu bakoresha bari gukora siporo. Imbere hahagaze umuntu wambaye imyenda nk'iyo umukozi kwa muganga.

Umugabo wambaye isengeri ufite icupa ry'amazi ry'ubururu. Iryo cupa ririmo amazi ari kuyanywa bisa nkaho yari ari muri siporo inyota imwishe ari kunywa amazi.

Umugore wunamye yafatishije amaboko ku mano, wambaye ipantaro y'umweru, isengeri y' icyatsi kibisi bigaragaza ko ari muri siporo ari kwinanura ingingo.

Igishushanyo kitwereka ibintu byo kugenderaho mu gihe cya kovide kitwereka ko ari ukuguma mu rugo, ukambara agapfukamunwa, gukaraba intoki n'amazi meza kandi tukirinda mu buryo bwose.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite icupa mu ntoki ry'ubururu ririmo amazi, ari kuyanywa bigaragaza ko yari ari muri siporo, akaba yari afite inyota kuko yumvaga akeneye amazi yo kunywa akaba ari kuyanywa.

Umuntu uryamye ku gitanda, wambaye ikakabutura y'umweru irimo amabara atukura, n'agapira k'umukara, bigaragaza ko imbere ye hari umuntu uri kumufasha kumugorora amaguru, amufasha kugorora n'ingingo.

Umubyeyi uteruye umwana mu ntoki, yicaye ku ntebe, imbere ye hicaye umuganga wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, bose bambaye udupfukamunwa, bigaragaza ko uwo muganga ari kuvura umwana amaso.

Ahantu hategeretse ibintu bitandukanye, hari icupa ry'amazi, hari imbuto, hari metero, hari n'icyuma abantu bakoresha bifashisha bari gukora siporo, mu gihe bari gukora siporo.

Abantu bari mu muhanda bagaragaza ko yakorewe gukurirwamo siporo bambaye imyenda ya siporo bari kwirukanka bameze nk'abari muri siporo bagenda buri wese ari mu murongo we batandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya igaragaza nkaho ari iyo kwa muganga, yambaye karuvati, imbere yambaye ishati y'umweru, afite igikoresho abadogiteri bakoresha, bashyira mu mutwe bakumva umutima w'umuntu uko utera, afite na baro mu ntoki.

Umuntu wicaye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, wambaye umupira w'umweru yafashe ku kuboko, hariho akantu k'ubururu ashobora kuba ari kwivuza.

Umuntu wicaye kugitanda yazamuye ukuguru kwavunitse no gushyizemo mu ibikoresho bigufasha kukugorora kugira ngo kubabashe gusubira mu murongo kugororotse kumeze neza ntakibazo.

Umugabo uhagaze ku mazi uri muri siporo wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru, yamanitse ukuguru ku cyuma ari kwigorora, yafatishije ukuboko kumwe ku mano, ukundi yagufatishije mu rukenyerero.

Umugore uhagaze ahantu ku mazi, wambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umweru yazamuye amaboko hejuru bigaragaza ko ari muri siporo, akaba ari kwinanura akoreshe ananura amaboko ayazamuye hejuru mu kirere.

Umuntu uhagaze ku zuba, wambaye umupira w'amaboko mugufi, ufite icupa ry'amazi, arimo anywa amazi, bigaragaza ko yari ari muri siporo, ari kuyanywa kugira ngo abashe kumara inyota mu guhoza umubiri.

Umuntu uhagaze, ufite icupa ry'ikirahure ririmo amazi, ari kuyanywa, yari afite inyota, yari ari nko muri siporo cyangwa yari ari ku zuba, cyangwa yumvaga ayashaka.

Imeza iriho imiti myinshi itandukanye n'ibikoresho bitandukanye, hari iri mu ducupa, ibinini biri mu dushashi ndetse na bande abantu bakoresha bihambira iyo bagizemo ikibazo cy'imvune.

Umugore uri muri siporo uhagaze ku mazi, wambaye ikabutura y'ubururu n'isengeri y'ubururu n'inkweto z'ubururu, yazamuye ukuguru yagufashe mu ivi afatishijemo ukuboko ari kwigorora.

Neza yateretseho ibikoresho bikoreshwa bafashe umuntu bamuhambira ahantu yavunitse kugira ngo ingingo zibashe gusubirana umuntu yashyize ukuboko kuri iyo meza bamuhambiriye ku kuboko hariho amabara atandukanye umutuku, ubururu n'umukara.

Umugabo wambaye ikabutura y'umweru, wambaye ubusa hejuru, asutamye, yakojeje akaboko ku mano, ukundi agufatishije hasi bigaragaza ko ari muri siporo.

Umugabo uri muri siporo yambayesenge y'icyatsi kibisi afite icupa ry'amazi arikwimena amazi mu maso akoresheje amaboko yombi.

Umuntu ujyana ku gitanda, yambaye ikabutura, yazamuye ukuguru kumwe, umeze nk'aho ari kumwe n'umuganga, ari kumukandakanda mu mavi, mu ngingo, asa nk'aho ari kumuvura.

Umugabo wambaye ikabutura y'umweru, isengeri y'umukara, yambaye n'inkweto z'umukara zirimo n'amabara y'umweru, n'amasogisi mu y'umweru, yamanitse akaguru hejuru ari kwigorora bigaragaza ko ari muri siporo.

Abantu babiri bari mu nzu, umwe aryamye ku ntebe yagenewe gukorerwaho siporo. Umugabo uri ku ruhande yambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umweru, uryamye ku ntebe yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara bari gukora siporo.

Umugabo wambaye isengeri y'umutuku, yanditseho imibare magana tanu, magana tatu n'akabiri, uri kumwe nundi mugabo wambaye ijiri. Umugabo wambaye imyenda y'umutuku igaragaza ko ari umugabo ukora siporo yo kwiruka.

Ijage nini y'ikirahure yuzuye amazi, umuntu ayifatishije akaboko, ari gusuka amazi mu kirahure giteretse ku meza ibonerana.

Umusore wambaye ekuteri, wambaye umupira w'umweru, ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa, ikirere gisa nk'ikiriho izuba ryinshi, asa nkaho yashyushye cyane ari kunywa amazi.

Igikoresho cyagenewe gukoreshwa, gutanga ubutabazi bw'ibanze cyangwa batanga ubufasha ku muntu ugize ikibazo, bakamushyiraho bakamuteruraho kugira ngo babashe kumufasha kumugeza aho babonera ubufasha bwihuse mu buryo bworoshye bamuteruye.

Abantu babiri, umugore n'umugabo, bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bambaye imyenda ya siporo, bigaragaza ko bari muri siporo, umugore yambaye isengeri y'ubururu, umugabo yambaye isengeri y'ikigina.

Ku amacupa arambitse mu kabati agiye afite amabara atandukanye, harimo amacupa asa icyatsi kibisi, amacupa y'umweru, amacupa y'umukara n'amacupa y'ikigina, buri cupa rigiye rifiteho icyapa rigaragaza ko ari imiti ya gakondo.

Icupa ry'umweru riteretse ahantu rifite icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, atwereka ko iryo cupa ririmo amavuta yo kwisiga abantu bakoresha bari kwivura imiti ya gakondo.

Igipapuro kiriho amafoto y'ibibabi, cyantseho amagambogambo atwereka ko ari umunsi wahariwe kwizihiza, imiti gakondo muri Afurika mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri.

Amacupa ateretse ahantu, agiye agerekeranyije rimwe riri hejuru y'irindi, ari kumwe n'ibikarito, buri cupa rigiye ririho icyapa cyanditseho amagambo asobanura ikintu kiri muri iryo cupa.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye harimo n'ibimera bitandukanye bigaragaza ko hari ibimera, abantu bifashisha bari gukora imiti ya gakondo bifashisha mu buvuzi.

Imeza y'udusorrori dutandukanye, turimo imiti itandukanye, ya gihanga, igaragaza ko ari imitI ya gakondo, abantu bifashisha bari kuvura indwara zitandukanye.

Igiti cy'umuravumba gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo abantu biyumvamo n'indwara zitandukanye harimo inkorora, harimo ibicurane, n'izindi.

Ibimera, bimera ku gasozi, babyita ibitobo, abantu bifashisha bari gukora imiti ya gakondo itandukanye, bifasha mu buvuzi, bakoresheje ibimera, mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ibiti bifite amababi manini y'icyatsi kibisi, bikagira n'indabyo z'umuhondo, bikoreshwa mu gukora umuti wa gakondo abantu bifashisha mu buvuzi, bakoresheje imiti ya gakondo badakoresheje iya kizungu.

Uducupa turi mu mabara atandukanye y'umweru, n'ay'umuhondo, dufite ibyapa kuri two byometseho, yanditseho amagambo atwereka ko ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa k'umweru kariho amafoto y'ibibabi kanditseho n'amagambo atandukanye, bigaragaza ko harimo imiti ya gakondo abantu bifashisha bivura.

Udukarito turi ku meza harimo n'amacupa, amakarito afite ibara ry'icyatsi kibisi, amacupa afite ibara ry'umuhondo, ku dukarito handitseho amagambo no kuri ayo macupaditse handitse amagambo agaragaza ko harimo imiti yo kwifashishwa.

Imeza iteretseho udukombe twinshi tugiye turimo imiti itandukanye, n'umuntu ufite imbuto mu kiganza bigaragaza ko utwo dukombe turimo imiti ikoreshwa bavura bakoresheje imiti ya gakondo.

Ibibabi bitandukanye n'ibiti bitandukanye n'imbuto zitandukanye, bifashisha mu buzima bwa buri munsi bari gukora imiti ya gakondo. Bavura indwara zitandukanye bakoresheje ibyo bibabi ndetse n'izo mbuto.

Amacupa ateretse ku meza iriho igitambaro cy'ubururu. Amacupa agiye agerekeranije, harimo amacupa y'icyatsi kibisi, amacupa y'umweru n'amacupa y'ikigina. Buri cupa rigiye ririho icyapa kigaragaza ko ari imiti ya gakondo.

Igiti gifite amashami menshi, gifite n'ibibabi byinshi, bigaragaza ko giteye ahantu heza, ahantu kibasha kubona amazi, kikabasha kumera neza, bigaragaza ko atari mu gihe cy'izuba, kigaragaza ko ari igiti gisa neza, gifite amababi y'icyatsi kibisi.

Ameza ateretseho utuntu dutandukanye, hateretseho amacupa y'umweru ariho ibyapa. Hateretseho n'icupa rinini ribonerana ririmo ibintu bitukura, bigaragaza ko ari imiti ya gakondo irimo.

Udukarito duteretse ahantu, tugiye dufite amabara atandukanye. Harimo udufite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi, umweru n'umutuku, dufite amabara y'umukara n'umweru, ifite amabara atandukanye. Bitwereka ko magambo yanditseho ari imiti ya gakondo.

Sha agasekuru gato n’umuhini wako ari gusekura imiti muri ako gasekuru imbere ye hari indi miti iteretse kudukombe no kudusahani ari gushaka gukora imiti mubifashisha bari kuvura bakoresheje imiti ya gakondo.

Ibibabi biri ku giti bigaragaza ko ari ibibabi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo abantu bifashisha bari mu buvuzi bavura indwara zitandukanye bakoresheje imiti ya gakondo.

Ahantu hateretse udukarito dufite amabara y’icyatsi kibisi n'ay'umweru n'uducupa dufite amabara y'umuhondo n'amafoto y'igiti cy'icyatsi kibisi n’agakarito gafite ibara ry'umweru rivanze n'amabara atukura, bigaragara ko harimo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Ibyatsi birambitse ahantu bifite ibibabi, bigaragaza ko ari ibyo gukoreshwa mu gihe bari gushaka gukora imiti yo kwifashisha mu buvuzi bwa gakondo.

Ahantu hateretse amacupa ari mu mabara atandukanye, amabara y'icyatsi kibisi amacupa y'umweru, bigaragaza ko ayo macupa arimo imiti abantu bakoresha bivura.

Ahantu hari imbuto ziri mu bihoho, bigaraga ko ari ahantu bahombekera imbuto kugira ngo bazihakure bajya kuzitera zimeze neza kugira ngo zibashe gufata mu buryo bworoshye.

Ibiti biteye mu murima, bifite amababi menshi y'icyatsi kibisi. Ibiti bigaragara nkaho byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Akabati karimo imiti itandukanye karimo n'amacupa atandukanye, amacupa y'ikigina, amacupa y'umuhondo, amacupa y'umweru, bigaragaza ko harimo imiti ya gakondo.

Ibikoresho biteretse ku meza n'ibibabi bigaragaza ko ari ibikoresho bifashisha barigukora imiti ya gakondo. Harimo utwo bifashisha barikuyisekura n'uducupa bifashisha barikuyibikamo.

Igiti gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi giteye ahantu, kigaragaza ko gisa n'umuravumba, abantu bifashisha bari gukora umuti wa gakondo bivura.

Udukarito dutandukanye turi mu mabara atandukanye duteretse ahantu. Inyuma yaho hari ifoto itwereka ko hari icyayi kihateye ahantu runaka ku musozi. Utwo dukarito turimo ubwoko bw'icyayi butandukanye bufasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umuravumba nigiti kigira amababi, manini yicyatsi kibisi kikoresho cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo bakivuguta cya bagisekuye cya ku gihekenya.

Agacupa ka bavuze ko karimo imiti ntabwo batwereka imiti irimo icyo ikora batwereka ko ari imiti ya gakondo imiti ivura ibintu bitandukanye ivura kurangiza vuba no gucika intege.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye hariho ibibabi, hariho n'imbuto, hatereretseho n'agakombe karimo umutobe, bigaragaza ko ari umuti bashyizemo, bakoze bifashishije ibyo bimera.

Ibiti n'imbuto zabyo n'amababi yabyo, bifasha gukora imiti ya gakondo, abantu bashobora kuba bakivuza bakoresheje ibimera, amababi y'ibiti, n'imbuto zazo.

Icupa ririho icyapa, ripfundikije umufuniko w'umuhondo, icyapa cyanditseho ko ari umuravumba, umuravumba, umuti bakoresha muri gakondo, bavura indwara zitandukanye.

Akabati karimo ibikombe bitandukanye, ibikombe bigiye bifite icyapa cyanditseho amagambo, ibikombe bigiye bigerekeranyije bigaragaza ko harimo imiti ya gakondo, abantu bifashisha bari mu buvuzi, bakoresheje imiti ya gakondo.

Ahantu hateretse ikibabi icyatsi kibisi kiramditseho ibinini bifite isura' ikigina bigaragaza ko ari ibinini byakozwe muri icyo kiro abantu bifashisha bari kuvura.

Utukarito dutatu dufite amabara atandukanye duteretse ku biti, bigaragaza ko harimo amajyani ko imbere yaho hateye icyayi ku musozi.

Igiti giteye mu murima gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi, ni igiti gisa neza kigaragaza ko ari igiti amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Ikarito ishushanyijeho umuntu wambaye isegeri igaragaza ko ari muri siporo imbere yacyo hateretse uducupa tubiri tw'umuhondo impande yako hari akandi gakarito bigaragaza ko harimo imiti yo kwifashisha.

Akabati karimo imiti itandukanye, iri mu macupa atandukanye, buri cupa rigiye ririho icyapa cyaryo, bigaragaza ko ari imiti ya gakondo.

Imeza iteretseho udukoresho dutandukanye bakoresha bari gukora imiti ya gakondo, hariho agasorori bifashisha bari kuyisekura, hari n'uducupa tubiri turimo iyo miti.

Ameza ateretseho uducupa, uducupa turimo imiti, uducu turi mu mabara atandukanye: amabara y'umweru, amabara y'icyatsi kibisi, n'amabara y'imihondo, buri gacupa gafite icyapa kigiye cyanditseho kigaragaza ako ariko, n'ibintu birimo.

Imeza iteretseho ibirahure bibiri, impande yaho hari ibibabi by'imiti ya gakondo, muri ibyo birahure harimo amazi, harimo n'ibibabi bigaragaza ko ari imiti ya gakondo irimo.

Udusorori dutandukanye duteretse ahantu hamwe turimo imiti itandukanye, bigaragara ko ari imiti ya gakondo abantu bifashisha bavura indwara zitandukanye mu buzima bwa buri munsi.

Imeza, n'akabati, biri mu uducupa dutandukanye, turi mu mabara atandukanye, ni imeza iriho, imiti iri mu mabara atandukanye, harimo imiti iri mu mabara atukura, n' amabara y'ubururu isa kibisi, n' andi atandukanye.

Umuntu ukenyeye igitenge, imbere ye hateye indabo, yafashe ururabo rumwe ruriho ibibabi rwarabije rufite ururabo rusa umutuku.

Icupa rifite ibara ry'umweru ririho amafoto y'ibimera, ndetse n'amagambo atwereka ko harimo umuti wo gukoresha abantu boza amenyo.

Agakombe karimo ibinini, bimwe babisutse ku meza, ibindi bikiri mu gacupa gakase, ibinini by'icyatsi kibisi, bigaragaza ko ari ibyo kwifashisha abavura.

Akabati karimo amacupa atandukanye, agiye agerekeranyije, kandi ayo macupa buri yose afiteho icyapa kuri ryo, bigaragaza ko ari imiti ya gakondo abantu bifashisha mu buvuzi.